Abagabo batatu bambaye imyenda ibapfutse umubiri wose babiri bambaye imyenda y'imyeru ndetse na ga z'icyatsi, imbere yabo hakaba hari ikintu kimeze nk'igishashi cyangwa ikibati, hirya gato hari abandi bambaye imyenda y'amajiri y'umutuku irimo n'umweru.

Agakapu gasa umutuku ndetse n'umukara kakaba gapakiyemo ibikoresho byo kwa muganga harimo: umukasi, ibipfuko, imiti ndetse n'ibindi byakwifashishwa mu kuvura.

Abagabo babiri, umwe wambaye imyenda y'abaganga n'undi wambaye ishati y'amaboko maremare, bafite agapapuro mu ntoki, bakaba bari kwifotoreza iruhande rw'imodoka isa umweru.

Ibyuma by'ikoranabuhanga cyo kwa muganga gifite amabara y'umweru ndetse hakaba hariho n'udusego, hirya gato hari ikintu kimeze nka televiziyo gishobora kuba gikoreshwa kirimo kureba mu mubiri.

Inzu yubakisha ubutafari buhuhiye, izitije agatimba n'imbere mu gatimba, hari inzu, hari utwatsi twa pasiparumu, inyuma y'agatimba hari izindi ndabyo ziteye umweru umwe.

Abantu benshi bicaye ahantu mu nzu mberabyombi, harimo umugabo umwe wambaye ikote ry'umukara n'shati y'umweru arimo arabarabahugura, inyuma ye hari icyapa cyanditseho amagambo y'umweru.

Abagore babiri bambaye imyenda y'abaganga, bakaba bipfutse mu maso, bakaba iruhande rwabo hari abandi bagore babiri na bo bambaye udupfukamunwa, basa nkaho bari kuvura.

Abantu benshi bari imbere y'inyubako ya etaje bari kwifotoza harimo abagabo ndetse nabagore, umwe muribo yambaye ishati y'umutuku n'ipantaro ya kaki ndetse n'inkweto z'umukara.

Abagabo babiri barimo umwe wambaye icyuma gipima uko umutima utera akaba ahagaze imbere y'umugore wicaye ku gatanda ko kwa muganga iruhande rwabo hari mudasobwa.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko, bashorewe n'imodoka eshatu, hakaba hari abantu babiri bari imbere, bafite icyapa cyanditseho ngo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu, ibitaro bya Nyagatare.

Inyubako nziza igezweho isakaje amabati ikaba ifite n'ibikuta by'amatafari ahiye hakaba hicaye abagore babiri ndetse n'undi muntu uhagaze inyuma yabo.

Umukobwa wambaye ishati y'umutuku, uri guseka, yanaze balo hejuru y'umutuku arashaka kuyisama. Hirya gato hari abandi bantu, bicaye n'undi mugabo uhagaze wambaye itaburiya.

Inyubako isize irangi ry'umuhondo ifite inzugi z'umweru, hakaba hari abantu bane, umwe yicaye mu kagare, undi yicaye ku ntebe, abandi babiri barahagaze.

Abagore babiri umwe wambaye umupira w'umweru, akaba afite ikaramu ari kwandikira ku meza ariho igitambaro cy'icyatsi, undi wicaye ku ntebe yitegereza ibyo amwandikira.

Abagabo benshi bahagaze imbere y'inyubako y'ubururu isize irange ry'icyatsi, hakaba harimo abambaye amashati ndetse n'abandi bambaye imipira. Ubarimo hagati yambaye umupira w'umutuku.

Inyubako irimo ibikoresho byo kwa muganga, harimo kizimyamwoto ndetse n'ibindi bikoresho byinshi by'ikoranabuhanga, harimo intebe, igitanda gisa ubururu ndetse n'ibindi byinshi.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko bari kugenda mu muhanda bafite icyapa cyanditseho ngo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu ibitaro bya Nyagatare, inyuma yabo hakaba hari imodoka eshatu zishoreranye.

Abagore bane bari mu cyumba cyo kwa muganga, babiri bararyamye, abandi babiri baricaye, hejuru yaho bo hari supanete ndetse babiri bafite naza serumu.

Umugabo w'umuganga wambaye impuzankano y'abaganga, uri ahantu hari imiti myinshi, akaba afashe umugabo wambaye ingofero, yamuzamuye umupira agiye kumutera urushinge, ku kaboko anamupima uko amaraso ye atembera mu mubiri.

Abagabo ndetse n'abagore, bahagaze ku murongo bari kwifotoza, hakaba harimo umwe wambaye impuzankano y'abaganga, abandi bakaba bafite ibitabo mu ntoki.

Umuganga upfutse mu maso hose, wambaye ingofero y'icyatsi, impuzankano y'icyatsi, ga z'umweru, akaba ari imbere y'ibyuma by'ikoranabuhanga byabugenewe mu kureba mu mubiri.

Abantu bateraniye ahantu hamwe harimo umusirikare ndetse n'umugabo uri iruhande rwe wambaye agapfukamunwa, ishati y'amaboko maremare y'umutuku, isaha ndetse n'ipantaro y'umukara.

Abantu b'abagabo ndetse n'abagore bambaye imipira y'imyeru hakaba harimo uri hagati ufite urupapuro bose bari kurebaho basoma bamanitse akaboko nk'abarahira.

Abantu icyenda bari kwa muganga, bategereje ibisubizo, harimo umugore umwe ameze nk'uwihebye niba atarembye, undi ufite imisatsi miremire, harimo n'umuzungu umwe, umugabo umwe nawe utuje wagira ngo ari kubaganiriza.

Abantu benshi bari munzu harimo abagabo ndetse n'abagore, abo bagore harimo babiri bambaye imyenda y'umutuku n'undi umwe ufite umusatsi w'umukara uhetse umwana yamutwikirije isume.

Abantu benshi bari mu rugendo rwo kwibuka, bakaba barimo babiri bari imbere bafite icyapa cyanditseho ngo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu. Bari kunyura ahantu hari jalide.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ikarita y'akazi yambaye n'agakoma ku kuboko, ahagaze imbere y'ameza ariho ibikoresho byo kwa muganga, harimo nk'amafishi bandikamo ndetse n'utwo bakoresha bapima abantu.

Umugore wambaye ga n'imyenda y'umweru, ufite umusatsi w'umukara, ufite ikaramu mu ntoki ari kwandika ku gatesite, iruhande rwe hari umugabo wambaye imyenda y'umukara n'umweru.

Abarimu bari mu nzu ikorerwamo ubushakashatsi, hari uri ku ruhande ari kugira ibyo apima bambaye amatabuririya y'umweru, bose nyine barimu ntuza mu mirimo itandukanye.

Ibirahuri bikoreshwa muri, mu nzu y'ubushakashatsi. Harimo ibitoya n'ibinini, birimo, amazi ari ku rugero rumwe, amazi areshya.

Ikiganza cy'umuntu utagaragara neza, cyambaye ga, gifite agacupa gatoya karimo amaraso kariho n'ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Hirya gato hari utundi ducupa twinshi bashyiramo amaraso.

Umugabo w'umuganga wambaye impuzankano y'umweru, agapfukamunwa k'umweru, amarinete y'umweru akaba yambaye na ga, akaba ari gusuzuma ibintu birimo insinga, iruhande rwe hari udupipa tw'umukara dupfundikishije imipfundikizo y'umutuku.

Umuntu utagaragara neza mu maso wambaye ga ndetse n'itaburiya y'umweru akaba afite urushinge mu ntoki n'akarahure k'umweru karimo amazi cyangwa se umuti akaba ari kuwukurura.

Umugabo utagaragara mu maso wambaye ga ndetse n'umwenda w'ubururu, akaba afite impapuro mu ntoki, hirya ye hakaba hari ibikoresho by'abaganga n'akantu gafite ibara ry'ubururu.

Umuntu utagaragara mu maso, wambaye ga z'ubururu, akaba afite agacupa k'umweru kandikishijeho amagambo y'umukara, hakaba hari n'utundi twinshi turi hasi dufite imipfundikizo y'ubururu.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'ishati y'umukara na ga mu ntoki, akaba ari mu cyumba kirimo ibyuma by'ikoranabuhanga bikoreshwa kwa muganga mu kuvura.

Imiti myinshi iri ahantu ku meza ipakiye mu bikombe bigiye bitandukanye harimo igifite umupfundikizo w'umutuku n'ibindi bisa umweru bifite imipfundikizo y'umweru.

Umugabo wambaye impuzankano y'abaganga n'ishati y'umutuku ufite umusatsi w'umukara, akaba ari kureba mu byuma byabugenewe bikoreshwa mu kureba utuntu dutoya. Icyo cyuma kikaba gifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Abadamu batatu ubabona yuko bishimye, bambaye impuzankano isa, bafite ibitabo bandikamo biri imbere yabo ku meza, ku ruhande gato hari umugabo wambaye imyenda yenda gusa nk'iya kacye.

Abana batoya bafite ibikombe by'umweru, bakaba bicaye ku ntebe bambaye imyenda y'umutuku ndetse n'abandi bambaye imyenda y'ishuri bakaba bari kunywa igikoma.

Abadamu bambaye imyenda itandukanye, harimo uwambaye igitenge n'isaha, bombi bakaba bateruye abana b'impinja, baje gukingiza.

Umugore ufite imisatsi y'umukara, wambaye n'amarinete n'ishati, ateruye akana mu ntoki ari kugwaha, ako kana kambaye umupira w'umutuku, hirya yaho hari n'abandi bana.

Umubyeyi ufite agahinja kamaze iminsi mike kavutse, kari mu bitambaro by'umweru, umubyeyi akenyeye ibitenge hasi, hejuru yambaye ishati y'umweru, inyuma ye hari umu mama uri ku gitanda, yambaye imyambaro y'ibitenge.

Umupapa n'umudamu we baje gukingiza babo, abana bambaye imyenda isa n'utugofero dusa, umupapa yambaye ipantaro n'agakote karimo uburongo bw'igitare n'umupira mu imbere.

Umuganga ufite imisatsi y'umukara wambaye n'impuzankano y'umweru akaba agiye gutera urushinge umwana w'uruhinja uri mu biganza by'umubyeyi uteze igitambaro.

Abantu benshi biganjemo abagabo n'abagore, bamwe bambaye impuzankano y'ubururu, bose icyo bahuriyeho nuko bafite telefone z'umukara mu ntoki. Harimo umugabo muremure wambaye ikote n'umupira mo imbere n'ipantaro y'umukara.

Abantu biganjemo urubyiruko bicaye mu buryo bw'uruziga, bameze nkaho bari guhana ibitekerezo, imbere yaho hari ibiti bibiri, hirya gato hari inyubako igezweho ifite igisenge cyubakishije amabati.

Abagore benshi bicaye ahantu mu nzu, hakaba harimo n'abagabo bake. Umwe yicaye ku ruhande yambaye ikanzu y'umweru ndetse n'ubururu, akaba ateruye akana mu ntoki. Hirya ye hari abandi bamama.

Abayobozi benshi bateraniye ahantu hamwe, harimo batatu bicaye imbere ku ntebe z'umukara n'abandi benshi bivanzemo abagore n'abagabo, bahagaze bari kwifotoza. Iruhande rwabo hari icyapa cyanditseho ngo RIB.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara akaba afite mikoro mu ntoki ndetse n'agapapuro ameze nk'aho hari abantu ari kubwira, inyuma ye hari ubusitani n'iruhande rwe hari icyapa cyanditseho ngo aho mishoni.

Umugore ufite imisatsi y'umukara wambaye amarinete y'umukara n'amaherena y'umweru n'umupira w'amaboko magufi w'umweru wanditseho ngo RBC, akaba ahagaze imbere ya mikoro ari kubwira abantu.

Icyapa kiriho ikirangantego cy'Igihugu, hariho n'ikirangantego cya Polisi, kigaragaza n'ibindi nyine bikorerwa aho ngaho, yuko ari Isange One Stop Center.

Abantu biganjemo abayobozi benshi ndetse n'abahagarariye inzego z'umutekano za gisirikare, bakaba banacaye ahantu bambaye imipira y'icyatsi irimo ibara ry'umweru.

Inzu irimo akabati karekare gasa umweru kakaba karimo imiti igiye inyuranye ipakiye mu tuyetajeri twinshi iyo miti ikaba ifite amabara menshi.

Inzu yubatse neza irimo utubati twinshi twubakishije ibyuma by'umweru, muri utwo tubati hakaba harimo ibikombe bifite imipfundikizo y'umweru na byo bisa umweru ndetse n'amakarito menshi.

Akabati karimo utuntu tw'udukarito twinshi duto duto tugiye dutandukanye, tumeze nk'uturimo imiti. Iruhande rwaho hari intebe irimo umusego, iriho n'umwenda w'umweru.

Inyubako ifite urugi rukomeye ruri mu mabara y'umukara, rukingishije ingufuri, harimo n'ibirahure by'umukara cyane, hejuru hakaba hariho icyapa kiri mu mabara y'umweru, cyandikishije amagambo y'icyatsi.

Inyubako ya etajeri irimo imiti igiye itandukanye ipfundikiye, harimo ipfundikishije imipfundikizo y'umweru ndetse n'indi iri mu makarito agiye atandukanye.

Inzu ndende yo mu bwoko bwa konoshi, ikaba iteye umucanga, hejuru hariho icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru cyandikishijeho amagambo y'icyatsi, munsi yaho hakaba hari abantu, harimo n'uri kuri moto.

Abamama babiri bari gusoma udutabo dutandukanye n'umwana kuruhande rwabo ndetse telefone ya smartphone. Umuma umwe yambaye ikanzu y'umutuku n'ikote ry'umukara undi yambaye ibitenge n'gitambaro cy'umweru mu mutwe.

Abantu bane bahagaze imbere y'abandi bantu harimo batatu bambaye imipira y'mweru ndetse n'undi umwe wambaye akagofero ishati ndetse n'ipantaro y'umukara irimo amabara y'umweru, bakaba bafite icyapa cyanditseho ngo ugakoreshe neza.

Abantu babiri batagaragara neza mu maso bakaba bari imbere y'icyapa gifite amabara agiye atandukanye yanditsemo amagambo mu ibara ry'umweru agira ati: "Kina unirinde."

Umukobwa ufite umusatsi w'umukara, wambaye n'ikanzu irimo amabatra y'umutuku, umweru n'umukara, akaba ari ahantu hari uducupa dupfundikiye, iruhande rwe hakaba hari amakarito menshi.

Igiti gifite amababi asa neza, afite indabo hejuru. Icyo giti kikaba gifite impande zacyo hameze nk'ahakeba kandi kikaba gigoso gukoreshwa nk'umuti.

Imbuto nyinshi zijya zitandukanye zirimo indamu, karoti ndetse n'agasekuru kifashishwa mu gusekura izo mbuto zigiye zitandukanye kugira ngo hakorwe imiti, hari n'ifu kandi yasekuwemo yatangira gukoreshwa.

Udufuka twinshi tugiye dukurikiranye turi mu mabara menshi agiye anyuranye hakaba hari n'imiti myinshi igiye itandukanye irimo imeze nk'ibiti, imeze nk'imbuto ndetse n'ibindi.

Ibiti harimo imiyenzi, imihati, imisave, n'ibindi bikoreshwa mu kuvura indwara bya kinyarwanda.

Inyubako yasize irangi ry'umuhondo, yanditseho amagambo ngo Ineza message center, ikaba imbere yaho hateye amapave kandi mo imbere n'imiryango yayo irakinguye.

Abagore biganjemo abakecuru harimo umwe ufite inkoni n'igikomere, imbere yabo hakaba hari umugabo wambaye ikote n'ishati ndetse n'ipantaro baje kwinjira mu muryango. Bakaba bari kumwe n'ushinzwe umutekano.

Abantu bambaye udupfukamunwa utw'umweru ndetse n'utw'umukara bakaba bambaye n'amataburiya y'umweru ndetse n'ubururu bose bahuriye ku meza bari kwarura ibiryo bagiye kurya.

Umufuka uri mu mabara atandukanye umeze nka ambaraje, ukaba uriho inkoko ebyiri ndetse n'amagambo yanditse mu mabara agiye atandukanya, hejuru handitseho ngo Biomix.

Umugore wambaye ingofero y'ubururu, agapfukamunwa n'imyenda ya gipolisi, nicyo iriho ikirangantego cy'igihugu wambaye na ga mu ntoki, akaba ari gusuzuma umugore uryamye ku gitanda cyo kwa muganga.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako, yanditseho ngo Girubuzima, hakaba barimo abambaye imyenda y'abaganga ndetse n'abandi benshi bigaragara ko babasuye, harimo n'umuzungu.

Umugabo w'umuganga ufite utwuma twabugenewe twumva uko umutima utera ndetse akaba yambaye n'impuzankano y'abaganga, afite igitabo mu ntoki, iruhande rwe hari umugore wambaye umwenda w'ubururu uri kureba muri icyo gitabo.

Umuganga uri gufata ibizamini umurwayi ,yifashishije imashini ,umurwayi wambaye ishati y'igitenge, yazamuye ari kureba ku nda ashyizeho imashini ,muganga yambaye agapfukamunwa, umurwayi aryamye ku gitanda.

Inyubako nziza zigezweho zicayeho abantu iruhande, hakurya hari undi mugabo na we uhagaze ku nkingi, iruhande rwazo hari igiti kinini ndetse hakaba hari n'ubusitani.

Abantu benshi bari mu nzu mberabyombi harimo abagore ndetse n'abagabo, hirya gato y'urugi hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru, uhagaze ameze nkaho ari kubigisha.

Umugore wambaye imyenda ajya gusa umweru imeze nk'imikenyero, ufite umusatsi w'umukara, akaba afite mikoro mu ntoki. Hirya gato hari uwundi mugabo wambaye ikositimu ndetse anahagarariye inzego z'umutekano.

Inzu igezweho ifite igisenge cy'amabati y'ubururu ndetse ikaba isize irangi ry'ubururu, hasi ikaba ifite inkingi yubakishije amabuye ndetse no hiryari hari ikigega.

Inzu yubakishije amatafari, hejuru ikaba yanditseho ijambo ngo mituweli, ifite amadirishya y'umweru. Hakaba hari abagore batatu, babiri muri bo bakaba bafite abana.

Inyubako zigezweho zisakaje amabati y'ubururu zikaba zisize irangi ry'ubururu n'icyatsi, munsi hakaba hicaye abadamu batatu bambaye udupfukanwa t'umweru, hirya yabo hakaba hahagaze undi mugabo.

Umufuka uriho igishushanyo cy'inkoko eshatu zigiye zitandukanye, ukaba ufite amabara atatu, harimo iryo kuba umweru, umuhondo ndetse n'icyatsi. Hakaba harimo amagambo yanditsemo ngo Peperazine.

Abantu barimo abagabo ndetse n'abagore bambaye impuzankano y'imipira y'amaboko magufi y'icyatsi, hakaba harimo n'undi mugabo wambaye itabuririya y'ubururu bari ku muhereza igikapu.

Abayobozi mu nzego zitandukanye harimo uhagarariye inzego za gisirikare ndetse n'abandi bahagaze imbere y'inzu ifite igisenge cy'ubururu ndetse isize n'irangi ry'ubururu.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe harimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bari mu nzu isize irangi ry'umuhondo kandi hari n'ikirahure gisa nk'umukara bari kwandikaho.

Ahantu hari abantu benshi imbere y'inyubako ifite amabati y'ubururu kandi isize n'irangi ry'ubururu, biganjemo abagore, hakaba harimo umugabo wambaye ingofero y'umutuku n'ikote, afite n'icyapa inyuma.

Abantu benshi barimo abambaye amasarubeti y'ubururu ndetse n'mwe wambaye ingofero y'umweru, bakaba bari ahantu baterera inka imiti, harimo kandi umugabo wambaye itaburiya y'umweru.

Abagore babiri umwe wambaye impuzankano y'abaganga, uwundi ukenyeye ibitenge, bari mu nzu isize irangi ry'umuhondo. Ku meza hakaba hari impapuro ndetse n'icyuma cyahariwe gupima umuvuduko w'amaraso.

Abantu barimo abagabo bane ndetse n'umugore umwe, wambaye ishati, ipantaro y'umukara ndetse afite n'igitabo mu ntoki, bakaba bari kugenda ahantu mu nzira ariko inyuma yabo hari ibyatsi n'inyubako isize irange ry'ubururu.